Imfashanyigisho akaba ari imfashanyigisho iriho abasore, abahungu babiri bambaye impuzankano, ndetse n'abakobwa babiri bambaye impuzankano. Akaba ari imfashanyigisho yifashishwa mu mashuri abanza, mu kwigisha abana, kwigisha abana, imyitwarire myiza ndetse n'uburyo bakwiye kwitwara.

Udukoresho twifashishwa mu mashuri y'inshuke, abanza, akaba ari udukoresho twifashishwa mu gufasha abana batoya, mu gukina ndetse no kumenya ibintu bitandukanye, udukoresho tukaba dufasha abana mu kwishima ndetse no mu kuruhuka.

Abanyeshuri umukobwa n'umuhungu bari mu kigo aho umukobwa arimo akoresha kandagira ukarabe akaba intoki, umusore na we, umwana muto w'umusore na we usa n'aho wari usoje gukaraba wari urimo useka yishimye, umukobwa yambaye agakanzu k'icyatsi ndetse n'agashati k'umweru.

Inyuguti zanditswe mu mukono akaba ari inyuguti zifashishwa mu gusoma ndetse no kunoza imyandikire y'abanyeshuri bakiri mu mashuri abanza, ibi bifasha abanyeshuri mu kunoza imyandikire yabo.

Agakoresho gakoreshwa mu kwizihiza isabukuru aka kaba gakoreshwa by'umwihariko mu kwizihiza isabukuru y'abana bakiri batoya kuko iyo kabahaye karabashimisha cyane.

Ni Agakoresho kifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri mato y'incuke, akaba ari agakoresho kabafasha mu gutwaramo igikoma cyangwa icyayi, iki gikoma cyangwa icyayi kikabafasha mu myigire yabo, kuko kibafasha mu kutarambirwa amasomo.

Ni udupupe tukaba ari udupupe dukoreshwa mashuri abanza n'ay'incuke, tukaba twifashishwa mu kwigisha abana ndetse no kubereka uburyo ibikoresho bikoreshwa by'ikoranabuhanga. Harimo nk'uri gukoresha mudasobwa ndetse harimo n'uri gukoresha telefoni.

Ni abanyeshuri batoya bo mu mashuri abanza, bambaye impuzankano y'ubururu ku bakobwa ndetse na mpuzakano ya kaki ku basore ndetse n'abarimu babigisha bambaye impuzankano y'amataburiya y'umweru. Bakaba bafashe idarapo ry'u Rwanda.

Ibishushanyo birimo inkoko ndetse n'ukuguru k'umuntu, akaba ari ibishushanyo byifashishwa mu mashuri abanza y'inshuke mu gusobanurira abana ndetse no kubigisha neza kugira ngo barusheho kubyumva.

Abana benshi bicaye bakaba bambaye impuzankano z'imipira isa, akaba ari abana bahagarariwe n'ababyeyi nabo bambaye imipira isa, aba bana bakaba bari aho bita mu irerero, bakaba bitabwaho umunsi ku wundi mu gihe batari kumwe n'ababyeyi babo.

Ni ku kigo cy'amashuri, aho kuri iki kigo gifite umuryango usize amarangi y'umukara, ufite igikuta gisizwe amarangi y'umuhondo ndetse n'umweruru mukeya. Kuri iki gikuta akaba hashushanyijeho igishushanyo cy'umuntu w'amagufa gusa ndetse n'abandi bantu bariho kuri iki gikuta.

Ni udushushanyo two mu bwoko bw'imodoka akaba ari udushushanyo twifashishwa mu mashuri y'inshuke y'abana batoya, aho abarimu batwifashisha barimo bigisha abanyeshuri, aba banyeshuri uburyo imodoka zirimo amoko atandukanye.

Ibikoresho byifashishwa mu mashuri abanza y'inshuke bikaba birimo umukubuzo ndetse n'agatambaro, akaba ari udukoresho twifashishwa mu kwigisha abana ndetse no kubasobanurira uburyo dukoreshwa, kano gatambaro kakaba gakoreshwa mu kumutsa amazi bakoropesheje naho uyu mukubuzo ukaba ukoreshwa mu gusohora imyanda.

Ni mu kigo cy'amashuri, aho aya mashuri yubatswe mu buryo bugezweho, akaba ari amashuri asakaje amabati y'ubururu ndetse n'imiryango isize amarangi y'ubururu. Muri iki kigo hakaba harimo ubusitani, muri ubu busitani aho dusanga idarapo ry'ibendera ry'u Rwanda.

Ni mu kigo cy'amashuri abanza, mato y'inshuke, hakaba hari udukoresho twifashishwa n'abana biga muri aya mashuri y'inshuke, mu kubafasha mu gukora imyitozo ngororamubiri mitoya, yo kubigisha gusimbuka ndetse no kwirukanka.

Ibikoresho byifashishwa mu mashuri mato y'inshuke, bikoreshwa mu kugira abana barusheho kumenya ndetse no gusobanukirwa amasomo yabo ya buri munsi, bikaba bibafasha mu kuruhura mu bwonko ndetse no kurushaho kumererwa neza.

Ni mu kigo cy'amashuri hakaba harimo amashuri menshi, akaba ari ikigo gifite igiti kinini kirimo hagati na hagati mu kigo, inzira zijya mu mashuri akaba ari inzira akaba ari inzira z'itaka naho hanze y'amashuri hakaba hari ibyatsi abana bashobora kwicaramo.

Abagabo biganje ndetse n'umugore umwe bakaba bari mu kigo cy'amashuri, akaba ari ikigo cy'amashuri gikikijwe n'ibiti byinshi, akaba ari abagabo bambaye imyenda irimo iy'akazi ndetse n'abandi bambaye imyenda isanzwe, abambaye imyenda y'akazi akaba ari imyenda ikoreshwa mu ikoreshwa mu by'ubwubatsi.

Ni ahantutu hubatswe mu buryo bugezweho, akaba ari ahantu abana batoya baza kuruhukira ndetse no kwishimisha. Aho hakaba hari ibikinisho bitandukanye abana bakoresha barimo bishima, hakaba harimo aho bakinira ndetse n'aho bashobora kwicunda ndetse no kwirukankira.

Inyubako yubatswe mu buryo bw'ishuri, ikaba ifite kandagirukarabe hanze, ikaba ari ijekani y'umweru ndetse ikaba ari inzu yubatswe idasize amarangi, ikaba yubatswe n'amatafari ahiye ndetse ikaba ifite imiryango ndetse n'amadirishya bisize amarangi y'ubururu.

Abanyeshuri bo mu mashuri abanza bicaye ku ntebe z'ishuri bakaba bambaye impuzankano z'umweru ndetse n'ubururu bakaba bakurikiye mwarimu urimo ubigisha imbere, muri iri shuri hamanitsemo udutako dutandukanye turi mu mabara y'umuhondo ndetse n'ubururu.

Ibiikoresho byo mu ishuri birimo iratete, ibitabo, amakereyo, isizo, amakaramu ndetse harimo n'imashini yo gukoresha imibare bita karikatirise, ndetse harimo n'udutabo bandikamo amakuru atandukanye y'abanyeshuri. Ndetse n'utwo gushushanya.

Ni ibikoresho bitandukanye akaba ari ibikoresho birimo ikayi, hakaba harimo amarate, hakaba harimo na kereyo, hakaba hari ibikoresho byifashishwa mu gushushanya ibishushanyo dusanga mu masomo atandukanye, bikaba bidufasha gukora ibintu mu buryo bunoze.

Ni imfashanyigisho, akaba ari imfashanyigisho iriho abana b'abanyeshuri aho bambaye impuzankano z'ikigo, akaba ari imfashanyigisho ikoreshwa mu mashuri mato abanza mu kwereka abana uburyo bakwiye kwitwara ndetse n'uburyo bakwiye kwirinda ibibashuka.

Ibikoresho byifashishwa mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye akaba ari ibikoresho byifashishwa mu masomo atandukanye harimo imibare ndetse n'ubugenge, bikaba byifashishwa mu gushushanya ibishushanyo bitandukanye.

Imfashanyigisho ifasha abantu mu gusoma ndetse no mu gukora interuro bifashishije izi nyuguti, zikoreshwa mu mashuri abanza kugira ngo umuntu abanze agire ubumenyi bw'ibanze bwerekeye mu gusoma.

Ni mu mashuri abanza, aho hagaragara udutebe tugufi cyane twifashishwa n'abana batoya, ndetse hakaba hari n'udukombe turi mu mabara y'umuhondo, hakaba hari n'udushushanyo dukozwe mu biti, tukaba twifashishwa mu kwigisha abana mu gusoma.

Iyi nyubako akaba ari inyubako yubatswe mu buryo bw'amashuri akaba ari inyubako ifite uruzitiro runini ruri mu mabara y'umutuku ndetse n'ayumweru, muri uru ruzitiro mu imbere hakaba harimo ibiti ndetse hubatsemo n'amashuri, akaba ari amashuri abanza amashuri abanza ndetse nay'inshuke.

Ibikoresho byifashishwa mu mashuri abanza, akaba ari ibikoresho byifashishwa mu kwigisha abana batoya, mu kumenya gushushanya ndetse no guca imirongo mu buryo bwiza, busobanutse.

ibikoresho byo mu ishuri, birimo amakereyo, ikaramu udutabo two kwandikamo ndetse hakaba ari na pome yo kurya, hakaba hariho n'amakayi yo kwandikamo.

Ni ku nyubako y'amashuri hari ubusitani ndetse hakaba hari n'ibendera rishinze muri ubwo busitani. Akaba ari amashuri yubatswe mu buryo bugezweho, akaba ari amashuri asize amarangi y'umukara hasi ndetse akaba ari amashuri afite imiryango isize amarangi y'ubururu, amarangi y'umukara, akaba asakajwe n'amabati yo mu bwoko bw'ubururu.

Ibikoresho byifashishwa mu mashuri abanza, barimo bigisha abana mu kwandika, mu gushushanya ndetse no mu kubigisha ibintu bitandukanye by'ubugenge, birimo amakereyo, amakayi, amarate n'udukapu.

Abagore babiri ndetse n'umugabo umwe, bafite igikarito tutazi ikintu kiririmo imbere, bagiteruye bagaragaza barimo bereka umufotozi kugira ngo agifotore, natwe tubone amakuru, ariko bikaba bigaragara yuko bari mu kigo cy'amashuri kuko inyuma yabo hubatse amashuri.

Umugabo wambaye ishati y'umukara uhagaze imbere, akaba ari imbere y'abanyeshuri bambaye impuzankano z'imipira y'ubururu, akaba arimo arababwira ndetse inyuma y'uyu mugabo hakaba hari n'abandi baturage bicaye mu gisharagati.

Ni inyubako y'amashuri ikaba ari inyubako ikiri nshyashya aho ifite ikigega cyo gufata amazi hanze, naho ikaba ifite ibikinisho n'iby'icundo abantu bakoresha barimo baruhuka, hanze aha ngaha hakaba hateye ubusitani ariko bukaba butarakura.

Urubyiruko rumaze guhabwa impamyabumenyi ndetse ruri kumwe n'abatoza babo, uru rubyiruko rumaze guhabwa impamyabumenyi rukaba rwarafashe ifotori kumwe n'abarimu babigishije, bigatuma babona impamyabumenye.

Ni abanyeshuri bo muri segonderi akaba ari abanyeshuri bambaye impuzankano z'ubururu bakaba bari mu cyumba kigari, aho muri kino cyumba aho muri kino cyumba hakorerwamo imenyerezamurimo ku munyeshuri wiga ubumenyingiro. Bikaba bifasha abanyeshuri mu kurushaho kumenya ndetse no gusobanukirwa ibyo biga.

Ni inyubako y'ikigo cy'amashuri hakaba ari ishuri ryubatswe mu buryo bugezweho, akaba ari ishuri ryifashishwa mu kwigisha ndetse no gutangirwamo ubumenyi, aha ngaha tukaba tuhasanga ibikoresho bitandukanye birimo ibifata amazi ndetse n'ibiti biteye imbere y'ishuri.

Abanyeshuri b'abakobwa akaba ari abanyeshuri baturutse mu bigo bibiri bitandukanye, akaba ari abanyeshuri bo mu kigo kimwe cyambara umukara ndetse n'ishati z'umweru na karuvati mu ijosi, naho ikindi kigo kikaba cyambara amajipo ari mu ibara ry'ivu ndetse n'amashati ari mu ibara ry'ubururu bwerurutse.

Abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye, bakaba ari abanyeshuri bambaye impuzankanozi z'ikigo, bakaba barimo barakoresha mudasobwa ,izi mudasobwa zibafasha mu kwiga neza kuko bibafasha gukora ubushakashatsi ku bintu byinshi bitandukanye.

Ni abanyeshuri bambaye impuzankano zitandukanye, hakaba hari abanyeshuri bambaye impuzankano z'ubururu ndetse n'amashati y'umweru, naho abari hirya yabo bakaba bambaye impuzankano z'ubururu ndetse n'amashati ya karokaro, akaba ari abanyeshuri bari ku murongo bakaba barimo bumva amabwiriza y'abayobozi babo, bakaba bari ku kigo cy'amashuri.

Ni abanyeshuri benshi akaba ari abanyeshuri batonze imirongo, aba banyeshuri bakaba bambaye impuzakano. Aba banyeshuri bafite indabo z'ubwoko butandukanye bakaba baziteruye mu biganza. Aba banyeshuri bakaba bari mu kigo cy'amashuri bigamo.

Abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye akaba ari abanyeshuri bambaye impuzankano akaba ari abanyeshuri bari mu ishuri barimo bariga. Aba banyeshuri bakaba bicaye ku ntebe z'ishuri naho ishuri bigiramo akaba ari ishuri ryubatswe n'amadafari.

Ikayi irambitse ku meza akaba ari kayi irimo yigirwamo imibare, akaba ari imibare yigwa mu mashuri yisumbuye na kaminuza, akaba ari imibare iri mu bwoko bukomeye, akaba ari imibare ituma umunyeshuri afunguka mu bwonko.

Ni perezida w'u Rwanda uri mu cyumba cy'ishuri akaba ari kumwe n'abandi bagabo bambaye amakoti ndetse n'udupfukamunwa muri iki cyumba kandi hakaba hari uwambaye impuzankano ya gisirikare bakaba bari muri iki cyumba iki cyumba kikaba kigirwarwamo ikoranabuhanga n'abanyeshuri biga muri kaminuza.

Abagabo babiri bambaye amashati adozwe mu bitenge, akaba ari abagabo, umwe ari gukora ku meza n'undi afite impapuro mu ntoki, imbere yabo hakaba hari icyuma gisohora impapuro, bakaba bari mu ishuri ririmo intebe ndetse n'imeza zikoreshwa muri Kaminuza.

Intebe zo mu bwoko bw'ubururu, akaba ari intebe za palasitike, imbere yazo hakaba hari imeza, akaba ari intebe zikoreshwa mu mashuri ya kaminuza akaba arizo abanyeshuri ba kaminuza bakoresha bicaraho ndetse bakanazifashisha barimo bandika.

Ni inyubako yo muri kaminuza, aho iyi nyubako isize amarangi y'icyatsi aganje, na ho hakaba hariho icyapa cyerekana yuko aha ngaha ari icyumba cy'abarimu bigisha muri kaminuza, aha ngaha akaba ariho abarimu bahurira mu gihe bari mu nama cyangwa se bari bavuye kwigisha abanyeshuri.

Ibikoresho bikozwe mu mabumba, akaba ari ibikoresho biri mu mabara y'umukara ndetse no mu ibara rya' kakiyi, akaba ari ibikoresho byifashishwa nk'imitako cyangwa bikifashishwa babiterekamo indabo.

Abanyeshuri biga mu mashuri ya kaminuza akaba ari ay'igitsina gabo ndetse n'igitsina gore , bakaba bicaye bafite amakayi ndetse n'amakaramu bakaba bambaye udupfukamunwa. Aba banyeshuri barimo bariga ku bibazo bahawe na mwarimu wabo.

Intebe yifashishwa mu mashuri ya kaminuza, ikaba ikoreshwa n'abanyeshuri bayicaraho ndetse ikaba irambitseho agakayi, abanyeshuri bandikamo amakuru ndetse n'igipapuro dukoreraho ibizami.

Ni imeza irambitseho telefoni, akaba ari imeza iriho amakayi ndetse n'ikaramu. Ikaba iriho ibikoresho bifashisha barimo bandika ku bibaho byo muri kaminuza ndetse akaba hariho n'ikarita y'ishuri y'umunyeshuri.

Intebe yo mu bwoko bw'ubururu, iruhande rwaho hakaba hari akadobo gatoya ko mu ibara ry'umutuku, inyumakaba hakaba hari urugi rusize amarangi y'icyatsi, iyi ntebe ikaba ikoreshwa mu mashuri ya Kaminuza.

Ibikoresho by'ubururu byinshi bikoreshwa mu mashuri ya kaminuza. Kaminuza yigisha ubumenyi ngiro ndetse na kaminuza yigisha ubumenyi rusange ndetse n'ubuganga. Ibi bikaba ari bimwe mu bikoresho bifashisha.

Intebe ndende ikoze mu giti ndetse n'iyindi ntebe iri iruhande ikozwe muri parastike, ikaba ifite amabara y'ubururu ndetse imbere yaho, hakaba hari ikibaho gikoreshwa mu mashuri ya kaminuza.

Abanyeshuri bo mu mashuri ya kaminuza akaba ari abanyeshuri bicaye mu nyubako nini cyane. Akaba ari inyubako itangirwamo amasomo atandukanye cyane yuko bicaye mu ntebe zifashishwa n'abanyeshuri barimo bandika, bandika mu masomo ya buri munsi yabo.

Ni intebe zo mu bwoko bw'ubururu, akaba ari intebe zifashishwa mu mashuri makuru ya kaminuza, akaba ari intebe abanyeshuri bicaraho, bakabasha no no kuzandikiraho, izi ntebe zikaba ari intebe zimurwa, zikaba zakurwa ahantu hamwe, zikajyanwa ahandi.

Ni umuryango w'imbaho ukozwe mu buryo bugezweho, akaba ari umuryango ujya mu cyumba kigishirizwamo mudasobwa, akaba ari icyumba kigishirizwo mudasobwa, aho abanyeshuri cyangwa abandi bantu bajyamo bakiga izi mudasobwa mu kurushaho kongera ubumenyi bafite.

Ni intebe ebyiri z'ubururu ndetse n'intebe ndende yo mu ibara ry'ikinombe, izi ntebe ebyiri z'ubururu, akaba ari intebe zikoreshwa mu mashuri ya kaminuza. Hakaba hari, iruhande rwayo hakaba hari ibyuma bitambitse bisize amarangi y'icyatsi.